Abantu bateraniye mu cyumba k'inama benshi bicaye ku ntebe z'ubururu imeza ziriho ibitambaro bitukura ndetse imbere yabo hakaba hahagaze umuntu akaba ari kubagezaho ijambo.

Abagore bicaye mu ntebe nziza zifite imisego y'umweru, bamwe bafite terefone mu ntoki zabo hari abambaye amadarobindi ndetse n'imikenyero myiza banitwikiriye hejuru ku mutwe.

Umuhuro w'abantu benshi bicaye mu ntebe nziza cyane bamwe bafite mudasobwa bakaba bari mu nama ndetse bakaba bari kuganira ku ngingo z'igihe zitandukanye.

Abantu bateraniye mu nama bicaye ku ntebe nziza z'umukara, imbere yabo hari imeza iteretseho uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse na telefoni n'amakaye yo kwandikamo ibyo bari kuganira.

Abantu benshi bateranye bicaye mu ntebe nziza z'umweru hakaba hari n'ubusitani bwiza, bicaye mu ihema bakaba baje kumva ubutumwa bari kubagezaho.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi bicaye ku ntebe, hakaba hari abicaranye mudasobwa imbere yabo ndetse n'uducupa batwaramo amazi, n'impapuro zo kwandikaho ibyo baganiriye n'ingingo z'ingenzi.

Abagore babiri, ndetse n'abagabo babiri, bicaye mu ntebe nziza z'umukara, imbere yabo hateretse telefoni, udushakoshi duto, ndetse n'amakayi n'amakaramu, bakaba bari mu nama bari kwiga ku ngingo zitandukanye.

Abagabo bari mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza hateretse amazi yo kunywa ndetse na terefoni, hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'ubururu n'amadarubindi, akaba ari we ufite ubutumwa ari kubagezaho.

Abantu benshi bateraniye ahantu bicaye mu matsinda, imbere yabo hakaba hagereretse telefoni mudasobwa ndetse n'amasakoshi hakaba hari umuntu uhagaze uri kubagezaho ijambo yabateguriye.

Abaturage benshi bateraniye mu mbuga nini iri mu butaka, mu busitani ndetse n'ibiti ku ruhande n'amazu menshi bakaba baje kumva ubutumwa babagezaho.

Abaturage benshi bari mu mbuga bari kumwe n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'abandi bicaye n'ihema isa umweru bakaba bari kumva ikiganiro abayobozi babagenera.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kinini, bicaye ku ntebe nziza z'imituku, imbere yabo ha bakaba hari imeza, bakaba baje kumva ubutumwa bubagenerwa.

Abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abagore, n'abagabo, n'abana, bakaba bari muri sitade, aho bategereje guhabwa serivisi.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'inama bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo bafite amazi y'inyange yo kunywa bafite telefone ndetse n'udutabo two kwandikamo ibyavuye mu nama.

Abasore bane ndetse n'abandi bantu bambaye udupira tugufi turi mu mabara y'ubururu, hakaba hari ibendera ry'u Rwanda, ku meza ari imbere yabo hakaba hari telefoni ndetse n'uducupa tw'amazi tw'uruganda rw'Inyange.

Abantu batandukanye bateraniye mu cyumba k'inama imbere yabo hakaba hahagaze umugabo ufite imisatsi migufi, ubwanwa yambaye kositime y'ubururu n'agashati k'umweru n'ipantaro y'umukara, afite ifatamajwi mu ntoki ze.

Icyumba cy'inama aho abari n'abategarugori barimo barasangira ibitekerezo banywa amazi y'inyange, hakaba hanateguye ibitambaro by'umweru n'ikigina.

Inzu nini ikorerwamo inama zitandukanye, abantu benshi bakaba bahateraniye baje kureba abayobozi baje kurahira ku ruhande rwabo ba bakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bateraniye ahantu bakaba bambaye imipira isa ubururu ndetse hakaba hari umugabo uri imbere wambaye ishati y'umweru ufite ubutumwa ari kubagezaho.

Abantu batatu, harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, abo bagabo bambaye ikositimu ndetse na za karuvati, umugore akaba yambaye ishati nziza y'umweru n'umukara. Imbere yabo hari ame iteretseho amazi yo kunywa inyange ndetse na mudasobwa.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'umukara nziza imbere yabo hari ameza iteretseho amazi ari mu ducupa ndetse na telefoni n'impapuro n'amakayi bakaba baje kuganira ku ngingo zitandukanye.

Umusore n'umwari bambaye imyenda isa y'umweru n'ingofero z'umweru bicaye ku ntebe za purasitiki, imbere yabo hariho ameza apfukishijwe igitambaro cy'umweru bari kuyobora umugabo uri mu gikorwa cyo gutora aho ari kwinjiriza uwo yatoye mu gakarito kajyamo impapuro zanditsweho uwo watoye.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine ndetse na mugenzi we wambaye imyenda y'umweru, barimo batanga ikiganiro ku baje babakurikiye, bakaba bicaye ku meza iteguyeho igitambaro cy'umweru. Bombi bakaba bafite amazi y'inyange barimo kunywa.

Abantu batatu bose bambaye amadarubindi harimo umugore wambaye ishati y'umweru umugabo wambaye ishati y'umukara, hakaba ari kubagezaho ijambo n'ubutumwa bufitiye akamaro abantu.

Icyumba kiberamo inama hakaba harimo abantu benshi bicaye ku ntebe nziza z'umukara imbere yabo ku meza hari uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse na telefoni zabo imbere hakaba hahagaze umuntu uri kubagezaho ijambo abagenera.

Abagore babiri bambaye neza umwe yambaye ikanzu ndetse n'amadarubindi, undi yambaye ikote ryiza agapira k'umweru ndetse n'amadarubindi, imbere hari terefoni zabo.

Abantu benshi bicaye mu ntebe harimo abaturage ndetse n'abayobozi, bakaba bari mu nama, bakaba bari kwiga ku ngingo zigiye zitandukanye.

Abantu benshi bateraniye ahantu bakaba bari mu nama, bamwe bicaranye na mudasobwa, ndetse n'uducupa tw'amazi tw'uruganda rwitwa inyange, hakaba hari umukecuru wambaye amadarubindi afite imisatsi miremire.

Abantu bateraniye mu nama, bari kwiga ku mishinga itandukanye ndetse imbere yaho bakaba bafite amacupa y'amazi y'uruganda rw'Inyange.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye amashati meza, bicaye ku ntebe nziza ndetse bari mu nama, bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye z'ukuntu wakiteza imbere.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe nziza z'umukara, ku meza hateretseho mudasobwa, ndetse n'amazi ari mu ducupa bakaba baje kuganira ku ngingo zitandukanye.

Imbuga nini iri mu busitani ndetse n'ubutakakaba hakaba hateyemo ihema ririmo abantu biganjemo abambu udupira dusa umweru bicaye neza bari mu nama bari kuganira ku ngingo zitandukanye.

Abantu benshi bari mu nzu bateraniye hamwe bicaye mu buryo bw'itsinda, imbere yabo ku meza hari uducupa turimo amazi ndetse na terefoni, bakaba bari kuganira ku ngingo zigera zitandukanye bateguye.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, imbere hakaba hari abagabo babiri bambaye amakositimu ndetse n'umugore umwe wambaye amadarubindi, imbere yabo ku meza hateretse amazi ari mu ducupa ndetse n'itasi irimo ikawa.

Ahantu hahuriye abantu benshi. Hano hakaba hari umusaza wambaye ikositimu y'umweru, ishati y'umweru, na karuvati irimo imirongo y'umukara, akaba yambaye amadarubindi, akaba yicaranye n'umugore ufite ibisuko, wambaye agapira k'iroza n'ipantaro y'umukara.

Inzu irimo abantu bari gukoresha mudasobwa, bakaba bari kuzikoreraho akazi kabo kugirango barusheho gutanga serivise nziza kandi zinogeye.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite amakaro y'umweru, ikaba ifite imiryango y'umuhondo, ikoreramo urwego rw'igihugu rw'irembo rushinzwe gutanga serivisi mu baturage, haba iza polisi, iz'ubutaka ndetse n'izo mu irangamimerere.

Ndabona umurongo wa telefone dukunze gukoresha hano mu Rwanda ari wo twita emutiyene, bari bamanitse umutaka umu ajeti wabo yicaye hasi cyangwa se umuntu ufasha abantu hafi yabo, tukabona umugabo wicaye ku igare yambaye umupira wabo w'umuhondo uriho ikirangantego cya emutiyene arimo ateka rwose nk'uwishimiye serivisi zimuha.

Umunara muremure usize amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, ukaba ufasha abantu bari mu duce dutandukanye kuba babasha guhamagarana cyangwa bakandikirana ubutumwa, ku bikoresho by'ikoranabuhanga.

Abasore batatu bose bambaye udupfukamunwa bakaba bafite terefoni mu ntoki zabo ndetse bakaba bari kureberaho ibintu bitandukanye bitangaje.

Abantu bane bahagaze, babiri muri bo bakaba bambaye udupfukawa abandi bakaba bari gukoresha, telefoni bakaba bari kureberaho ibintu bigiye bitandukanye.

Ibyuma by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'abaganga biba ku bitaro bigiye bitandukanye, bikaba ari icyuma gishinzwe gupima uburyo umutima utera.

Umunara w'itumanaho wubatse ahantu hahinze ibigori byinshi, ukaba ufasha abantu mu buryo wahamagara muri mu duce dutandukanye, hirya hakaba hateye ibiti ndetse n'inyuma yaho hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari.

Ibiro bikorerwamo abatanga serivisi z'ikoranabuhanga zijyanye na interineti. Ukaba wakoresha interineti ureba amakuru yo hanze y'igihugu, ndetse n'aho isi igeze nonaha.

Umunara w'itumanaho wubatse ahantu hakikijwe n'ibyuma ku buryo nta muntu wapfa kuhageramo, ku ruhande hakaba hari igiti kirekire, ndetse n'imbuga yuzuyemo ubusitani.

Icyumba cy'uruganiriro kigizwe n'amameza, n'intebe, n'inkuta z'umweru, hakaba hari n'igikuta cy'amatafari kimanitseho amafoto agiye atandukanye.

Abantu benshi bicaye mu itsinda bafite mudasobwa ndetse na terefone n'impapuro imbere yabo, bakaba bari kwiga ku mishinga itandukanye.

Umugabo ufite mudasobwa imbere ye, akaba ari gukoresha urubuga rw'irembo kuri interinete, akaba ari kwerekana uburyo serivisi zayo zikora ukoresheje ikoranabuhanga.

Abantu batatu harimo umukobwa ufite ibisuko wambaye amaherena akaba yambaye n'ishati y'umweru, imbere ye hari mudasobwa y'umukara akaba ari kuyikoresha areba ibintu bitandukanye, ku ruhande rwe hari agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu bari mu ihema risa umweru, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari imeza hejuru hateretse mudasobwa z'umukara ndetse na telefoni n'amadarubindi, bakaba bari gusobanurirana ibyanditse mu gatabo gatoya bafite mu ntoki.

Imbuga nini irimo agahanda kagenderwamo n'abanyamaguru hateyemo ibiti byiza, hirya hari ibikorwa remezo harimo n'inzu ndende cyane zigeretse zubatswe mu buryo bugezweho.

Urubuga rw'Irembo rukoreshwa n'abaturage kugira ngo bakoreshe serivisi za leta harimo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa ku mpapuro cyangwa kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa kuri mudasobwa .

Mu masaha ya nijoro mbere yanjye ndahabona etaje y'ubucuruzi, aho hasi hari icyapa cyanditse ngo Simba Gishushu, ndabona na none icyapa kigaragaza y'uko nta parikingi ihari, hakaba hari n'intebe za parasitiki z'umuhondo ndetse n'izitukura n'utu meza twazo.

Urugo rwubakishijwe amatafari, rufite urupangu rusa ubururu, mo imbere hubatsemo inzu, hanze hari ipoto itwaye imiyoboro y'amashanyarazi, hasi hari ubusitani bwiza.

Igiti kirekire gishinze mu butaka, kiriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hasi hari ubusitani bwiza n'indabyo zisa umuhondo, kuruhande hari inzu yubakishijwe amatafari ifite amadirishya asa ubururu.

Ibyuma binini bishinze mu butaka bitwaye umuyoboro w'amashanyarazi, hasi hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti byiza ndetse hakaba hari n'umuhanda ugenderamo ibinyabiziga.

Ibyuma birebire bitwara umuyoboro w'amashanyarazi, hasi hakaba hari isambu irimo ibiti byinshi ndetse ku ruhande, hakaba hari n'ibindi biti birebire n'imisozi ituyemo abantu.

Ahantu hari inzu ifite iduka ricururizwamo imyenda, imbere hakaba ari imodoka y'umweru yegeranye n'ipoto itwara amashanyarazi yumuriro.

Ipoto rirerire ritwara amashanyarazi y'umuriro, ku ruhande hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, hasi yayo hakaba ari matora abantu baryamaho, hirya hari ibidukikije, harimo ibiti byiza cyane bifite amabara y'icyatsi.

Inzu isize amarangi y'umuhondo, ifite amabati atukura, ku ruhande hari igiti kinini, hirya hari ipoto ritwara umuyoboro w'amashanyarazi.

Ipoto ritwaye umuyoboro w'amashanyarazi, rikaba ryegereye urugo rwubakishije amatafari, rukaba rufite ubusitani bwiza, indabyo z'umuhondo ndetse n'icyatsi hamwe niz'umutuku. Ku ruhande hakaba haparitse imodoka isa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande waho hari agahanda k'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'abaturage bari kuwugenderaho ku ruhande yabo hakaba hari igiti kinini.

Ipoto rirerire ritwaye umuyoboro w'amashanyarazi, mu nsinga hasi hakaba hateye ibiti, byinshi kandi bigaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hakaba hari inzira igendwamo n'abanyamaguru ku ruhande hakaba hari ubusitani burimo ibiti ndetse hakaba hari n'inzu z'imiturirwa, harimo izigeretse ndetse n'izitageretse.

Abanyonzi batwaye amagare, bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari igiti gifite itara hejuru gitwara umuyoboro w'amashanyarazi gishinze mu busitani burimo ibiti byiza.

Umunara muremure ufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, hasi ukaba uzitiye n'ibyuma bifite amacumu, hejuru hakaba hari senyegi ndetse ukaba utuma abantu babasha guhamagararana mu duce dutandukanye kandi bigenda neza.

Ipoto riteye mu butaka ritwara imiyoboro y'amashanyarazi, ku ruhande hakaba hari isambu rinini rihinzemo urubingo, hirya hakaba hari ibiti by'imyembe ndetse n'insina z'ibitoki.

Inzu igeretse, isize amarangi y'umweru, ikaba ifite igisenge cy'amategura, hasi hari ipoto rishinze mu muhanda, ritwara umuyoboro w'amashanyarazi.

Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Inzu ndende igeretse hejuru ifite amagambo yanditse icyatsi, hasi hari ubusitani ndetse hari n'umuhanda unyuramo ibinyabiziga n'umuhanda ku ruhande ugenderamo abanyamaguru.

Inyubako ifite amarangi y'umweru ikagira n'inkingi z'ibyuma, imbere yayo hari abaturage baje bayigana baje kubahashakaho serivisi kandi na none ikaba ifite n'ubusitani bwiza ifitemo ibiti bitatu.

Imbuga nziza yo mu busitani hateyemo ibiti, imbere yayo hari inzu ndende igeretse iri mu marangi y'umukara n'umweru, akaba ari ibitaro by'umwami fayisari biherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali.

Imbuga irimo busitani bwiza, hateyemo ibiti. Hirya hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari ifite amabati y'umutuku yegeranye n'indi nzu yubakishijwe amatafari n'amabati y'umutuku.

Ibicupa binini bikozwe mu byuma, biteretse ahantu hubakishijwe amatafari, hakikijwe ibyuma ndetse hakaba nta muntu wemerewe kuhagera.

Imbuga irimo ubusitani ndetse n'ibiti biteyemo, ku ruhande hari inzu ifite amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo n'amabati atukura, hasi hari abaturage bicaye ku ntebe.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Ahantu hari imbuga nini, hafite ubusitani bwiza ndetse n'ibiti biteyemo; hirya hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite n'amabati y'umutuku.

Umugabo muremure wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umweru, inkweto z'umukara, ku ruhande rwe hakaba hari indabyo akaba ari kugendera mu gahanda gato.

Inyubako yubakishijwe amatafari, akaba ari ibitaro bivurirwamo abantu bafite ibibazo by'uburwayi hakaba haparitse imodoka nyinshi.

icyumba kinini gisize amarange y'umweru, gifite amakaro y'umweru ndetse n'intebe nziza zicayemo abaturage, baje kugirango bagire ibyo babakorera nka serivise zigiye zitandukanye.

Umugabo uri mu zabukuru afite uruhara yambaye umupira wo kwifubika urinda imbeho uri mu mabara asa ubururu.

Umugabo w'umwirabura ufite imisatsi migufi akaba yambaye imyenda itukura, ndetse n'umweru, akaba yambariyemo mo imbere ishati isa ubururu, iyi ikaba ari imyenda yambarwa n'abacamanza b'igihugu.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu, uri mu cyumba cy'iburanisha, aho yaje kuburana ku byaha aregwa. Hakaba hari n'ama meza ariho udukoresho ndangururamajwi.

Umugabo wirabura ukuze wambaye amadarubindi akaba yambaye ikanzu iri mu mabara y'umutuku umukara ndetse n'umweru akaba yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara.

Abantu batandukanye bateraniye mu rukiko, hakaba harimo abashinjacyaha ndetse n'uregwa ibyaha bitandukanye wambaye ikositimu ndetse n'agapfukamunwa.

Abagabo babiri hari umwe ushinzwe kuburanira ukekwaho ibyaha wambaye imyenda y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ndetse n'undi uri ku ruhande rwe wambaye imyenda y'iroza, akaba ari imyenda yambarwa n'imfungwa n'igororwa, imbere yabo hakaba hari udufata amajwi.

Abashinzwe imfungwa n'ingororwa baherekeje umugore wambaye amadarubindi, ikanzu y'iroza, ndetse n'amapingu aho abakoze ibyaha bafungirwa.

Abagabo babiri harimo uwambaye amadarubindi wambaye imyenda yabashinzwe umutekano i burayi, bakaba baherekeje umugabo wambaye kositimu ndetse n'ishati y'umweru wambaye amapingu ukekwaho ibyaha.

Abantu benshi bambaye imyenda y'imfungwa n'ingororwa, bakaba bateraniye ahantu, imbere yabo hari gereza yubakishijwe amatafari, yubatswe mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu.

Inzu yurukiko ikaba irimo abantu benshi hano hakaba hicaye umucamanza wambaye ikote ryumukara ,wicaye muntebe y'umukara ndetse hakaba hari abashinjacyaha bamuhagaze imbere bari kumugezaho ibyabazanye.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku, yambaye agapfukamunwa aherekejwe n'abashinzwe umutekano batatu bambaye imyenda y'umukara.

Umugabo ufite imisatsi migufi ndetse n'ubwanwa, akaba yambaye ishati y'umweru mo imbere ndetse na karuvati y'umukara n'ikoti risa umutuku, ikaba ari imyenda yambarwa n'abacamanza b'Igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo uri mu myaka mirongo itanu wambaye nk'abacamanza ukora mu butabera, akaba yambaye itaburiya y'umutuku ifite ibara ry'umukara imbere n'umweru, akaba kandi yambaye n'amadarubindi.

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'imyenda ya gisirikare, akaba yicaye mu ntebe nziza, imbere ye hari ibirahure birimo inzoga ku ruhande rwe hari akabati karimo imitako.

Gereza ya muhanga yatangiye gukora mu gihumbi kimwe magana acyenda mirongo irindwi na tatu imbere hakaba hari imfungwa zambaye imyenda y'iroza hirya hari igikuta cyubakishijwe amatafari hejuru hakaba hari senyenge ku buryo nta mfungwa yapfa gutoroka ino gereza.

Abagabo bambaye imyenda y'imfungwa n'ingororwa bakaba bari mu mirimo ikorerwa muri gereza hirya hakaba hari igikuta kirekire cyane cyubakishijwe amatafari.

Abanyamategeko babiri bambaye amakanzu y'imikara ndetse n'ishati z'umweru hagati yabo hakaba hari umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru akaba ari kuburana urubanza mu rukiko.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba, bakaba bambaye imyenda yiganjemo itukura n'ingofero z'umukara, hakaba hari umugabo ufashe ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, akaba ari kurahira imbere y'amategeko.

Umugabo w'umwirabura wambaye neza cyane akaba yambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, akaba yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'igipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda, bakaba batwaye umunyabyaha wambaye ikanzu y'abisilamu, inyuma yabo hari imodoka ishinzwe gutwara abanyabyaha.

Abantu benshi bateraniye ahantu higanjemo abantu bari mu zabukuru ndetse n'abangavu, bakaba bicaye ku ntebe zikoreshwa mu mashuri ndetse bakaba baje gukemura imanza z'abaturage.

Abashinzwe umutekano b'igihugu cy'urwanda bakaba bambaye imyenda y'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'ingofero z'umukara, bakaba bafite imbunda mu ntoki zabo, hakaba hari imodoka inyuma yabo.

Agahanda gato k'abanyamaguru kari kugenderaho abantu imbere yaho hari umupolisi wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano w'iguhugu cy' u Rwanda hirya hari umuntu utwaye ingorofani iriho imizigo.

Abashinzwe kuzimya umuriro, barimo kuzimya ikamyo nini ikora ubwikorezi bwa peterori hagati mu muhanda ukikijwe n'amashyamba.

Imodoka y'umukara yikorera ibintu iparitse mu mbuga nini ahasanzwe haparikwa amamodoka menshi hirya hari ikigega kinini gikikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire.

Umugabo ukora ku rwego rw'Igihugu rushinzwe umutekano rwa polisi y'u Rwanda, akaba yambaye imyenda y'akazi isa ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu iriho ikirangantego cya polisi y'u Rwanda, akaba yambaye ipeti iriho inyenyeri eshatu.

Abantu batatu, bambaye imyenda y'abashinzwe kuzimya umuriro. Bari kuzimya ahantu hari kwaka umuriro, hateje ikibazo mu baturage.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri zizimya, umuriro hakaba hari abashinzwe kuzimya umuriro bambaye imyenda yabugenewe ndetse bakaba bari gutera imyuka ahantu hahiye.

Umuhanda urimo kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba hari imodoka y'umweru ndetse n'umukara umuporisi ahagaritse kugirango ayake ibyangobwa umuntu agendana ndetse n'ibyimodoka cyangwa niba nta mategeko y'umuhanda yaba yishe.

Imodoka ya polisi y'igihugu iparitse, ku ruhande hakaba hari umuporisi wambaye imyenda y'umukara, ikoreshwa mu kazi kabo ka buri munsi, hakaba hari igiti giteye ku ruhande, gifite amashami maremare.

Umugore wicaye ufite imisatsi miremire wambaye amadarubindi, ikote ryiza ry'umweru, ndetse imbere ye hakaba hari n'ibifata amajwi. Ku ruhande rwe hakaba hari abakobwa batatu bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'amajipo maremare y'umweru.

Abantu batatu bambaye imipira y'umweru, bakaba bicaye basutamye hasi hari impapuro nyinshi bakaba bari kubara amajwi y'abakandida batowe n'abaturage.

Abantu benshi bari mu mbuga nini bakaba bahagaze ku murongo umwe bari kwerekeza mu mahema asa umweru ndetse afite n'ibitambaro by'amabendera y'igihugu ariyo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu batandukanye bakaba bari mu cyumba cy'itora ndetse baciye bugufi, bakaba bari gukusanya impapuro z'amajwi y'abakandida kugira ngo barebe wagize amajwi menshi.

Umugore ufite imisatsi miremire yambaye amadarubindi ndetse n'imyenda isa umweru ishushanyijeho uturabo dutoya yambariyemo umupira w'umukara ndetse n'ishanete mo imbere.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye kositimu y'ubururu ishati y'umweru na karuvati y'umutuku wijimye, imbere ye hateretse ikirahure, inyuma hakaba hari ibendera ririho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bari ku murongo nyuma yaho hari ibinyabiziga, imodoka nyinshi ndetse bakaba bategereje kwinjira ahantu bagiye gutora abakandida babashyigikiye.

Abaturage benshi bakaba bari ku murongo mu mbuga nini, bakaba bari kwinjira bagana mu ihema aho bari mu bikorwa bijyanye n'itora.

Mu gace karimo imbaga y'abaturage, harimo abana ndetse n'abakuru, bakaba baje gushyigikira umukandida wabo Habineza uri kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda.

Ishyaka rya efuperi inkotanyi aho rihagarariwe n'umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame akaba ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza, aho akikijwe n'abamurinda ndetse n'abaturage baje kumushyigikira.

Abaturage benshi bateraniye mumbuga nini bicaye kuntebe harimo abasaza, abakecuru, abagore, abagabo, ndetse n'abana inyuma yabo hari igiti kinini cyamashami menshi nakazu gatoya kari mumabara yumuhondo.

Abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda hakaba hari idarapo ry'u Rwanda ndetse n'iririho kirangantego cy'u Rwanda, bakaba bicaye mu ntebe z'umukara perezida Paul Kagame akaba ahagaze ari kuvuga ijambo, bakaba bari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, aho arimo aratanga ikiganiro ku baje bamukurikiye akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, akaba kandi yambaye ishati ifite ibara ry'umutuku.

Abaturage benshi bakaba bahagaze ku murongo bagiye gutora abayobozi bawo bazabayobora mu gihe giteganyijwe na leta.

Abantu benshi bishimye bateraniye ahantu baje gushyigikira umukandida wabo nyakubahwa perezida Paul Kagame bakaba bafite n'amadarapo.

Inzu zifatanye zisize amabara y'ubururu umuhondo icyatsi ndetse n'umutuku hakaba hari ibuga nini irimo abantu benshi bari gukora imirimo igiye itandukanye.

Abantu benshi bateraniye mu nzu nini bakaba bicaye mu ntebe nziza bakaba baje kumva ijambo ndetse n'ubutumwa perezida Paul Kagame abagezaho.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ingofero y'umweru ndetse n'amadarubindi, imbere ye hakaba hari udufatamajwi tw'ibigo bikomeye by'itangazamakuru bakaba bari kumubaza ibibazo.

Abaturage benshi, bateraniye mu mbuga nini, baturutse ahantu hatandukanye, hakaba baje kureba umukandida wabo Perezida Paul Kagame, uri kwiyamamariza kongera kuyobora igihugu mu myaka iri imbere.

Abagore batatu, babiri muri bo bicaye inyuma mu ntebe nziza z'umukara, undi ahagaze imbere yambaye ikanzu y'ubururu, amadarubindi, ndetse imbere ye hakaba hari ifatamajwi.

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri umwe yitwa Philippe umwe mu bakandida bahatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda akaba ari kubwira abaturage imigabo n'imigambi azakora mu gihe yaba abonye ububasha bwo kuyobora igihugu.

Isoko ry'imboga ririmo abantu bagiye batandukanye hari umucuruzi ari gutonora ibishyimbo hari ibitunguru, harimo amashaza, inyanya ndetse harimo n'abandi benshi.

Abayobozi bakomeye b'igihugu bari mu nama, hakaba harimo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Paul Kagame, ndetse n'umukuru w'abadepite, hamwe na minisitire w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda.

Abaturage benshi cyane bateraniye mu mbuga nini baje gushyigikira umukandida wabo perezida Paul Kagame kugira ngo azatorwe mu kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu myaka iri imbere.

Umukuru w'Igihugu perezida Kagame Paul, yambaye amadarubindi asa umukara, afite ikaramu mu ntoki, ari gusinya ku rupapuro, ku ruhande hahagaze umugore we bita Jeannette Kagame. Imbere yabo hari umucamanza w'Igihugu, wambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umukara.

Ibiro by'akagari cyangwa umurenge, aho abaturage babangagamye baba bakenera serivisi, bakaba biganjemo abagore n'abagabo bakaba batonze imirongo ibiri.

Sitade nini ikaba irimo imbaga nyinshi y'baturage, bakaba baje kureba umukuru w'igihugu cyabo perezida Paul Kagame, ari kurahira imbere y'amategeko kuzakora inshingano ze neza. Ku ruhande rwe hakaba hahagaze umugore we wambaye imikenyero y'ubururu, n'agapira k'umukara ndetse n'amadarubindi y'umukara.

Umunyamakuru uri mu kigero k'imyaka mirongo ine, wambaye ishati y'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki arimo, aratangariza abamu abamukurikiye amakuru agezweho, inyuma ye hari icyapa kigaragaza ahahingwa icyayi muri Rutsiro, hirya ye hari n'imodoka yo mu bwoko bwa toyota.

Abayobozi biganjemo abagore n'abagabo bari mu cyumba cy'inama, aho barimo kuganira ibintu bigiye bitandukanye, imbere yabo bakaba bafite amazi yo kunywa.

Ibinyabiziga birimo moto isa umweru itwara imizigo, ndetse n'ikamyo ihetse matora, bikaba biri kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka nyinshi zitwara abagenzi, zikaba ziparitse muri gare, abagenzi bakaba barimo bazigana kugira ngo zibageze aho bagiye.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari imodoka itwara abagenzi, iri kuwugenderamo ndetse hari abantu ku ruhande umugabo n'umugore bari kuganira.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo imodoka y'ikamyo isize amarangi y'umutuku ndetse n'icyatsi, ikaba yikoreye imizigo iremereye cyane, hirya hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru ukikijwe n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi, hakaba hari imodoka itwaye imbaho ndetse na moto ku ruhande nyinshi zitwaye abagenzi, hakab hari n'agahanda kagendamo abanyamaguru gakikijwe n'ibiti byo mu muhanda.

Ikamyo iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo isa umweru, ikaba itwara imizigo iremereye, ku ruhande hari akayira gacamo n'abanyamaguru, hirya hakaba hari ibiti bizengurutse umuhanda.

Imodoka y'umweru itwara abagenzi yanditseho umutoza wa Kigali ku ruhande yayo hakaba hariho abagenzi ndetse n'abari gucuruza ibijyanye n'amakofi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ndende itwara abagenzi, Hirya hakaba baparitse moto ndetse n'ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo umuntu utwaye ingorofani itwara ibintu, harimo na moto, itwawe n'umumotari isa umutuku ikoreshwa amashanyarazi, hirya hari imodoka iparitse.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu kinyabiziga cyo mu bwoko bw'ikamyo ifite amarangi y'umutuku yikoreye imizigo ku ruhande akaba ari umuhanda ugenderwamo n'abanyamaguru hakaba hari n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki isanzwe itwara imizigo, ku ruhande hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru urikugenderamo abantu benshi bavuye mu duce dutandukanye, hirya hari amazu meza ageretse ndetse n'amapoto ashinze mu muhanda atwara umuyoboro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse n'amapikipiki, hirya hakaba hari sitasiyo icuruza amavuta ya peteroli ndetse na lisansi.

Abamotari benshi bari ku mamoto bambaye utujire tw'umuhondo ndetse n'ubururu, bakaba barimo bashaka abagenzi bo gutwara kugira babageze aho bagiye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi, harimo ikamyo itukura ndetse n'imodoka itwara abagenzi bake isa umweru, hakaba hari agahanda ku ruhande kagenderamo abanyamaguru ndetse n'ikirere kikaba kijimye, hirya hari imisozi miremire ifite iminara.

Moto nyinshi ziparitse ahantu hakaba harimo izikoresha amavuta ya peterori ndetse n'izikoresha umuriro w'amashanyarazi, ku ruhande rwazo hakaba hahagaze umumotari.

Imodoka ndende cyane itwara abagenzi, ikaba iri kugenda mu muhanda ndetse muri iyo modoka hakaba arimo abagenzi benshi, bagiye mu bice bigiye bitandukanye aho imodoka iberekeza.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo ibiziga bitandukanye hakaba harimo ipikipiki itwara imizigo, ndetse n'imodoka itwara abagenzi, n'imodoka isanzwe itwara abantu bakeya, hirya hakaba hari amazu n'ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto ebyiri, imwe itwaye umugenzi, indi itwaye imizigo, ku ruhande hakaba hari inzu nini igeretse, hasi hakaba haparitse imodoka.

Ikamyo ndende itwara umucanga ndetse n'amabuye, inyuma yayo hakaba hari imodoka itwara abanyeshuri ibavanye aho biga. Ku ruhande hakaba hari imodoka zihaparitse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki atwawe n'abamotari ndetse bahetse abagenzi, hakaba harimo n'imodoka z'ibikamyo zikoreshwa mu bwubatsi. Ku ruhande akaba ari akayira kagendamo abanyamaguru.

Imodoka zitwara abagenzi zikaba ziparitse muri gare, ku ruhande hakaba hari aho abantu bicara bategereje imodoka, ndetse ku ruhande hakaba hateye ubusitani bwiza n'ibikuta binini biwukikije bifite amabara y'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umweru, inkweto z'umukara ndetse n'ingofero y'umukara akaba yambaye imyenda yabashinzwe gukora amasuku mu muhanda akaba ari gushyira imyanda ahabugenewe mu ngorofani kugira ngo ayijyane aho ikwiriye kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo muremure uri kugenderamo amakamyo abiri ari kubisikana atwara imizigo iremereye, ku ruhande akaba ari agahanda kagenderwamo abanyamagurukaba n'ibiti binini byiza.

Imodoka iri guca mu muhanda wa kaburimbo itwara ibikoresho by'uruganda rw'uruvange kuruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hakikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya hariho umuhanda w'amaguru, hari kugenderamo umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, umuhanda hakaba harimo ikinyabiziga cy'ipikipiki gitwara imizigo iremereye, hari umunyonzi utwaye igare ndetse n'imodoka inyuma yaho.

Umuhanda wa kaburimbo hirya hari agahanda kagenewe abanyamaguru urimo imodoka nini ishinzwe gutwara abagenzi ndetse mbere yayo hakaba harimo igare.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo imodoka y'abagenzi, hirya hari umuhanda ugenderamo abanyamaguru ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'amatara yo mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri ku kugendaneramo ibinyabiziga bitandukanye harimo ikamyo isa ubururu itwara imizigo iremereye ndetse n'imodoka ziri ku mpande zitwara abantu bakeya kuhande hakaba hari umuhanda ugenderaho abanyamaguru haparitse n'imodoka kuruhande.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka isa mweru hakaba harimo n'abantu benshi, hari umuntu wambaye imyenda yu'ubururu'agapicirora k'umutuku utwaye ingofanigiye utwaye imizigo iremereye hirya hakaba hari inzu ifite amarangi y'umweru ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Imodoka eshatu zitwara abagenzi zikaba ziri kwinjira muri gare, aho ziparika zigiye gufata abagenzi ngo zibajyane mu bice bagiyemo.

Umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru hakaba hari igiti giteye mu butaka, ku ruhande hakaba hari ibintu bisa ubururu bishyirwamo imyanda, ndetse n'ingorofani itwara imizigo iremereye.

Umuhanda munini, urimo abanyamaguru, moto, imodoka zitwara imizigo ndetse n'imodoka zitwara amavuta yo mu bwoko bwa peterori.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo ikamyo y'umutuku, itwara imicanga, cyangwa se amabuye, ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru, ikikijwe n'ibiti birebire cyane.

Ikamyo nini itwara imizigo iremereye, ikaba irikugendera mu muhanda, ku ruhande hakaba hari amazu acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Imodoka ndende iri mu mabara y'umweru n'icyatsi itwara abagenzi benshi, iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande hakaba hari inzira igendamo abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo ikamyo isa umweru ntoya, inyuma yayo hari moto zitwaye abagenzi ziri kugana aho zigiye, ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti biteye ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndende cyane y'ikamyo itwara imizigo iremereye, ku ruhande hakaba hari ibiti birebire biteye mu butaka, ndetse n'agahanda kagederamo abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo kuruhande yaho hari ibiti byinshi biwukikije, mu umuhanda harimo amakamyo atwara imizigo ndetse hakaba harimo n'abanyonzi batwayeya amagare.

Hano turahabona ikinyamitende cyagenewe kwikorera imizigo kirimo gitambuka mu muhanda hirya yacyo hari umugabo urimo uragendera aho abanyamaguru bagenewe kugendera wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku hirya ye hakikijwe n'ibiti n'abantu bari mu bikorwa byo kubaka .

Imodoka ebyiri z'umweru zitwara abagenzi bake, ziparitse ahantu inyuma yazo hakaba hari abakozi b'ikigo cy'ikoranabuhanga, bambaye imyenda y'umuhondo ifite ibirango by'ikigo bakorera.

Igikorwa remezo cy'umuhanda urimo urakoreshwa n'abanyamaguru n'abafite ibinyabiziga byabo n'abari mu bucuruzi bugiye butandukanye, hirya hari inzu ikirimo yubakwa, hirya y'aho hari n'ibiti biyikikije.

Agace ko mu mujyi wa kigali, kari kugenderamo abantu benshi kandi nta modoka zemerewe kugera hano hantu, hakaba hari abacuruzi bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Imbuga irimo abantu benshi bari mu bintu bitandukanye hari abicaye bari kuruhuka, abandi bari kuganira ndetse inyuma hakaba hari amazu menshi ageretse akorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Imbuga igenderwamo n'abanyamaguru ku hande hakaba hari ubusitani bwiza, hakaba ari naho abantu bakicara bari gufata akayaga, ndetse hakaba ari imikindo iteye ku ruhande miremire ikikije iyo mbuga yose.

Abantu benshi bambaye imyenda yo gukinana bakaba bari mu kibuga kinini cy'umupira kirimo ubusitani kizengurukijwe n'imirongo, hirya hakaba hari amazamu yo gutsindiramo ibitego.

Igikorwa remezo cy'umuhanda gifite icyapa kigaragaza umuvuduko ntarengwa wa mirongo itandatu, kandi na none kikaba kerekana ko imbere hari igikoresho gifata amashusho y'uwarengeje umuvuduko, hakaba harimo ibinyabiziga bike bitandukanye imodoka n'amagare.

Ipoto ritwara umuyoboro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye, inyuma yayo hari ibiti byinshi ndetse n'ubusitani hakaba hari icyapa cyerekana yuko hano bitemewe kuhaparika.

Icyapa cy'amabara y'umuhondo cyandikishijwe amagambo y'umukara ari mu cyongereza, avuga yuko ugomba kugabanya umuvuduko ukagenda gake kugirango udateze ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'impanuka.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo, kikaba gifite amagambo asa umukara. Kikaba cyereka abatwara ibinyabiziga ko bakwiye kugabanya umuvuduko bakagenda buhoro.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo n'umukara, kikaba gishinzwe kwereka abatwaye ibinyabiziga ko imbere hari aho abanyamaguru bambukira; bityo rero ukwiye guhagarara kugira ngo udateza impanuka mu muhanda.

Icyapa cyiganjemo amabara y'umuhondo n'umukara kikaba kigaragaza ko ushobora gukomeza ugana imbere aho kirimo kerekana.

Icyapa kigaragaza umuhanda wa magana atanu na rimwe wa kaburimbo uri kugenderamo imodoka nyinshi harimo izitwara abagenzi ndetse n'amapikipiki atwaye abagenzi, ku ruhande hakaba hari akayira kagendamo n'abanyamaguru.

Inzu ndende igeretse isize amarangi y'umuhondo ifite amadirishya hejuru hakaba hari ibigega bitatu by'umukara bibikwamo amazi ku ruhande hakaba hari n'indi nzu iyegereye.

Umuhanda wa kaburimbo hamwe n'agahanda kagenderaho abanyamaguru, ku ruhande hari inzu nziza ifite urugo rwiza, isize amarangi y'umuhondo ndetse ikafite n'ubusitani mo imbere hakaba harimo ibiti bita imikindo.

Ahantu hari imbuga nini, ikaba haparitse imodoka nyinshi ndetse hari n'abantu babiri bari ku rupangu umwe afite umutaka undi nawe yicaye.

Inzu igeretse, nziza cyane, ikaba ikoreramo banki ya Kigali, ishami rya Giporoso. Hasi hakaba hari abamotari benshi, baparitse amamoto.

Inzu ndende igeretse iherereye Remera ika ikorerwamo ubucuruzi butandukanye hasi hari banki, ndetse hari n'icyapa kerekana yuko bitemewe guparika hano.

Urukuta rusize amarangi y'ubururu ndetse n'umweru, hirya akaba ari imbuga nini irimo busitani ndetse n'ibiti, hakaba hari abana bambaye imyenda y'umuhondo n'umukara, bari kwicunga mu byicungo kandi bishimye.

Hano turahabona imodoka y'umutuku iri mu bwoko bwa toyota, hirya yayo hari indi yegereye noyo iri mu bwoko bwa toyota, hari n'abanyamahanga barimo banyura aho abanyamaguru bagenewe kunyura bagiye gusura ahantu ndangamurage.

Inzu y'umuturirwa igeretse ifite ibara ry'umweru ikayi ifite n'uruzitiro rw'amatafari ahiye, hanze yaho hari ubusitani buteyemo n'ibiti bigiye bitandukanye.

Inyubako ifite amadirishya, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'amabati y'umukara, ikaba yitwa hiritopu hoteli ikaba ikurura bamukerarugendo ndetse ukaba wazana umuryango wawe mukishimana muri ino nyubako.

Inzu igeretse isize amarangi y'umweru afite urupangu rwubatse neza, hanze hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye, harimo n'imikindo.

Inzu nziza igeretse, isize amarangE y'umweru, hejuru handitseho Biza, ifite urupangu rwubakishijwe amakaro, hejuru hari amatara amurikira abantu ndetse ifite n'ubusitani bwiza, bwuzuyemo ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye.

Inzu ndende isize amarangi y'umutuku ndetse n'umweru, ibirahure byayo bisa ubururu. Ku ruhande yayo hari indi nzu isize amarange y'umutuku n'umuhondo handitseho amazina y'ikigo cy'ikoranabuhanga cyitwa eyateri, hejuru yayo hakaba hari ikigega.

Inzu nziza ndende igeretse ikaba ifite amarangi asa icyatsi ndetse n'umukara, amadirishya yayo akaba asa ubururu ndetse urupangu rukaba rusa umukara.

Umuhanda wa kaburimbo imbere yabo hari inzu igeretse ifite amarangi y'umweru ndetse na y'ubururu hasi yayo haparitse imodoka isa umweru.

Inzu ndende isizwe amarange y'umuhondo ndetse n'umukara hasi hakaba hari umuntu wambaye isarubeti y'akazi ku ruhande rwe hari imodoka isize amarangi y'umukara.

Imodoka nyinshi ziri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande akaba hari akayira gacamo n'abanyamaguru ndetse hakaba hari naho bajugunya imyanda kugira ngo badateza ikibazo mu muhanda.

Inzu igeretse ndende ifite amarangi y'umweru hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho sikolu hasi hakaba hari amapikipiki ndetse n'imodoka .

Umuhanda wa kaburimbo ugenderamo ibinyabiziga, ku ruhande hakaba hari inzu y'Abangilikani isize amarangi y'umuhondo, ikaba ikorerwamo imirimo itandukanye yiganjemo iy'ubucuruzi. Hasi hakaba haparitse ibinyabiziga.

Site y'imiturire hano mu mujyi wa kigali ,aho inzu nyinshi zigiye zikikijwe n'ibiti ndetse zikaba zinakikijwe n'imihanda abaturage banyuramo.

Inyubako ya leta itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza, ikaba kandi inafite nomero y'igipangu ijana na mirongo itandatu na gatandatu.

Inzu ndende ifite amabati atukura ikaba isize amarangi y'umweru ndetse n'umukara, amadirishya akaba asize irangi risa nk'ivu, ikaba ifite urukuta rwubakishijwe amatafari.

Agace kanini gaturiwe n'abantu harimo amazu menshi meza, hakaba hari imisozi imbere yayo ndetse n'umunara w'itumanaho.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo ipikipiki itwawe n'umumotari, ku ruhande hakaba hari umuntu uhetse umwana ufite umutaka, hakaba ari imodoka ziparitse ku ruhande rwe.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugenderamo imodoka isa umweru n'umukara, ku ruhande hakaba hari agahanda kagendamo n'abanyamaguru, hirya hari ibiti bikikije umuhanda.

Hano turahabona ibikorwaremezo, imihanda, inyubako zigeretse z'ubucuruzi, amashanyarazi, kandi nanone hakaba hari n'imodoka iri mu bwoko bwa toyota y'umweru, hakaba hari n'abakora umwuga wo gutwara abantu ku binyamitende.

Imodoka isa umutuku ifite amadirishya y'umukara ndetse n'amapine y'umukara ikaba itwawe n'umushoferi iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru. Mu muhanda hari kugenderamo umunyonzi utwaye igare, moto ndetse n'ibinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba hari umuhanda ugenderamo abanyamaguru, hejuru hakaba hari ikiraro kinini kigendaho imodoka zinyura kumuhanda wo hejuru, ndetse hakaba hari n'ibiti biteye mu busitani bwegereye umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikorosi uri kugendamo igare ritwawe n'umuyonzi wikoreye imizigo, ku ruhande hakaba hari akayira kagendamo abanyamaguru, ndetse n'ubusitani bukikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abagenzi ku ruhande, hari inzira igendwamo n'abanyamaguru, Umuhanda ukaba urimo moto ndetse n'amakamyo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki atwawe n'abamotari ndetse n'imodoka zisanzwe zigenderamo abashoferi, hirya hari agahanda k'abanyamaguru kari kugendamo abantu ndetse n'ubusitani bukikije aho hantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyapa ndetse n'amatara yo ku muhanda, hirya hakaba hari ibiti n'agahanda k'abanyamaguru ndetse n'abantu bari kuwugenderamo.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ama pikipiki ndetse n'imodoka hirya hakaba hari aho bacururiza amavuta ya peterori.

Ibikorwa remezo byiganjemo imihanda aho ikikijwe n'ubusitani bwiza, burimo amoboto manini afite amatara amurika n'ijoro, hakaba harimo anyuramo n'imodoka ebyiri imwe y'umweru n'indi y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, kuruhande hari agahanda k'abanyamaguru ndetse n'ubusitani, mu muhanda harimo abanyonzi, abamotari ndetse n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru, hakaba hateye ibiti ku ruhande ndetse n'ubusitani bwiza, muri uwo muhanda hakaba harimo ibinyabiziga biri kugenda ndetse n'amapikipiki atwaye abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ukaba urimo imirongo icagaguye, imbere harimo imodoka, moto ndetse n'amagare, hagati y'umuhanda hakaba harimo imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo. Ukaba urimo moto zitwaye abagenzi, ndetse n'imodoka zitwaye abagenzi. Ku ruhande hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru. Hakaba hateye ibiti byiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda, hakaba harimo imirongo icagaguye, yambukirwaho n'abantu bashaka kuva mu muhanda umwe bajya mu wundi, ku ruhande hakaba hari agahanda k'abanyamaguru ndetse n'ubusitani buri ku ruhande rwaho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icaho abanyamaguru bari kwambukiranya imihanda, hirya hakaba hari icyuma gifata amashusho y'ibinyabiziga haba ibyarengeje umuvuduko ndetse n'abashoferi batambaye imikandara.

Umuhanda wa kaburimbo mugari urimo imodokasa umukara ndetse n'abanyamaguru bari hirya, ukabafite inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti n'ubusitani buwukikije.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga hakaba hateyemo ibiti by'imikindo, ndetse hari n'icyapa cyerekana y'uko bitemewe guparika hano hantu kuko ufashwe abihanirwa n'amategeko.

Umuhanda munini cyane hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye mo hagati hakaba hateyemo ibiti bizwi ku mazina y'imikindo ndetse hakaba harimo n'amatara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagaguye, hari moto ziri imbere ziri kurenga zitwaye abagenzi, kuhande hari agahanda kagenderwamo n'abanyamaguru.

By'ibanze wakora mu gihe habayeho gusohoka kwa gaze, mu gihe uri nko mu nzu ushobora gusohoka cyangwa ugakoresha ubundi buryo bwakurinda kugira ngo itaza kukwangiza.

Imodoka nini ikora ubwikorezi bwo mu muhanda, aho irimo iratambuka mu muhanda, hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'amapoto afite amatara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga harimo amakamyo ndetse n'imodoka na moto ku ruhande akaba ari agahanda k'abanyamaguru, hakaba hari n'icyapa gihagararamo abakeneye gutega imodoka zitwara abagenzi.